Inzu y'inama ihuriwemo n'abantu batandukanye, urubyiruko n'abantu bakuze bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari ameza bagaragara nk'abakurikiye inama.

Imbere mu cy'umba cy'inama abitabiriye inama bambaye udupfukamunwa barahagaze, ibikapu byabo biri ku meza n'ibindi bikoresho bakoreshaga biri ku meza, bahagaze nka bafata ifoto y'urwibutso.

Uruhurirane rw'abantu bicaye abandi bahagaze basa n'abari mu nama bateze amatwi ubabwira inama bamwe bambaye amagire ya MTN bigaragara ko ari abakozi ba MTN abandi bicaye n'abahagaze bari gukoma amashyi .

Sare y'inama irimo abantu benshi batandukanye biganjemo abagore ndetse n'abakobwa, imbere yabo hari ameza n'amacupa y'amazi, bicaye bateze amatwi bakurikiye umuyobozi w'inama.

Abagabo n'abagore, bicaye mu cyumba cy'inama, baganira. Hagati yabo, harimo ururabo ndetse bicaye bateze amatwi, umwe muri bo abaganirira.

Imbere mu nama aba mama bicaye imbere y'ameza barambitseho ibikoresho byabo muri terefone mu icupa rya mazi, inyuma ya hari abandi bantu bicaye bateze amatwi ibiri kuvugirwa mu nama.

Sare y'inama irimo abayobozi batandukanye abagabo n'abagore, imbere yabo hari utwuma tw'amajwi ndetse n'amazi bicaye bumva, bateze amatwi umuyobozi w'inama.

Icyumba cy'inama gihuriyemo abayobozi batandukanye, abagabo n'abagore bicaye bajya inama, imbere yabo hari ibyuma bifata amajwi ndetse bicaye ku bikoresho ameza n'intebe mu mabara y'umutuku.

Abayobozi biganjemo abagabo, barimo n'abagore, bicaye mu cyumba cy'inama, amazi n'amaji abateretse impande, bicaye bateze amatwi uyoboye inama.

Abantu benshi bikusanyirije hamwe biganjemo urubyiruko rw'abahungu n'abakobwa bahagaze hamwe bagaragara nk'abafata ifoto y'urwibutso.

Icyumba cy'inama kirimo abayobozi batandukanye, abagabo, n'abagore, imbere yabo hari utwuma dufata amajwi, n'amazi yo kunywa, inyuma yabo hari ibyapa bitandukanye, kimwe mu mabara y'ubururu, ikindi mu mabara y'umuhondo, cyanditseho amagambo atandukanye, Kigali yacu, Kigali icyeye.

Imbere mu nyubako mu cyumba cy'inama abantu bicaye mu nama, mbere yabo hari ameza ateretseho ibikoresho baza kwifashisha mu nama.

Icyumba cy'inama gihuriyemo abantu batandukanye bicaye bateze amatwi ubagezaho inama, imbere yabo hateretse amacupa y'amazi n'amatelefone bamwe na bamwe bari kwifashisha mu nama.

Abaturage biganjemo abagabo, bicaye mu cyumba cyabugenewe cy'inama, bitonze, bateze amatwi ubagezaho ikiganiro.

Ihuriro ry'abantu batandukanye bo mu ngeri zose barimo abagore n'abagabo, bahuriye mu nzu yabugenewe iteguyemo intebe ndetse n'ameza byo gukoreraho inama, inyuma yabo hari umukameramani uri kubafata amashusho mu nama barimo.

Imbere mu cyumba cy'inama, abayobozi bicaye bakurikiye inama, bafite ibikoresho nka mudasobwa na terefone, biteretse ku meza abari imbere ndetse n'amazi bari gukoresha mu cyumba k'inama.

Icyumba cy'inama kirimo abagabo n'umugore, imbere yabo hari mudasobwa n'utwuma tw'amajwi. Inyuma yabo hagaragara imitako yamamaza ibikorwa biri kubera aho.

Imbere mu nzu mu cyumba cy'inama, abantu bicaye bateze amatwi uyoboye inama. Umwe mu bantu afite indangururamajwi arahagaze ari gusobanura ibijyanye n'ibyo abajijwe.

Mu cyumba cy'inama umuhungu arahagaze afite indangururamajwi, ari gutanga igitekerezo. Inyuma ye hari ushinzwe gufata amafoto ndetse n'amajwi y'ibiri kuvugirwa mu nama.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama baganira, umugabo ufashe indangururamajwi asobanura, imbere yabo hateretse icyo kunywa ndetse n'ibyapa byamamaza ibikorwa birikubera aho hantu.

Icyumba cy'inama kirimo abagabo n'abagore bicaye bateganye, imbere yabo hari amazi yo kunywa na mudasobwa kuri bamwe na bamwe bareba bakurikiye ubagezaho inama.

Iki cyumba cy'inama giteraniyemo abantu b'ingeri zitandukanye bicaye barebana, imbere yabo hari amazi yo kunywa, hagaze umugabo ufite kamera urimo gufata amafoto n'amajwi y'ibiri kubera mu nama.

Itangazo, rigaragara mu mabara y'ubururu, n'ay'umweru, ryumvikanisha, gutanga akazi ku bantu ijana n'umunani.

Umunara muremure, mu mabara y'umutuku n'umweru, hejuru hari amatara, iruhande h'umunara hari utunyubako dutandukanye, tubamo ibikoresho umunara wifashisha mu gusakaza itumanaho.

Agace karimo intebe zicayemo abantu b'ingeri zitandukanye, impande hari umuhanda unyurwamo n'abanyamaguru gusa hirya hari inyubako ndende yubakishijwe amatafari n'igice kimwe n'ibirahure.

Imenyekanisha rifasha umuturage gukoza ikarita yabugenewe ku cyuma, areba amafaranga asigaranyeho cyangwase ayikozeho kugira ngo yemererwe gukora urugendo.

Inyubako ifite igisenge cy'umutuku, hejuru hari ibyuma by'ikoranabuhanga bitanga sinyare, byesitaye hejuru ku gisenge cy'inyubako.

Umukobwa w'umukozi ushinzwe iby'amashanyarazi wuriye ipoto n'urwego n'imyambaro n'ibikoresho byabugenewe mu gukora amashanyarazi ku ipoto.

Inyubako isakaje amabati y'umutuku, igaragaraho anteni ya televiziyo, igipangu cy'amatafari, icyapa cya nimero y'igipangu, umuryango w'icyatsi.

Ipoto ry'umuriro w'amashanyarazi, riziritseho insinga hejuru n'itara ryo ku muhanda. Hirya yaho hari ishyamba ndetse hasi hari umumama uri kwita ku isuku yaho n'umugabo urimo gutambuka, imbere yaryo muri kaburimbo, hakurya hagaragara agace gatuwe n'abaturage.

Ipoto ry'umuriro w'amashanyarazi rifite insinga hejuru, bigaragara ko ririho ngo rihereze abaturage batandukanye, umuriro w'amashanyarazi, rikikijwe n'ibiti bitandukanye birebire.

Ipoto ry'umuriro w'amashanyaraze ririho insinga z'amashanyarazi n'ibyapa byamamaza Aitel n'ikindi cyapa kigaragaza icyerekezo imihanda, inyuma yaryo amazu ndetse n'igiti kinini cy'icyatsi kibisi.

Ipoto ry'umuriro w'amashanyarazi ririho insinga z'amashanyarazi, hirya yazo hagaragara igipangu kirimo inyubako zitandukanye, inyubako ifite amabara y'ubururu ndetse n'inyubako ifite amabara y'umweru, inyuma hakurya hagaragara igice gituwe n'abantu n'ibiti bitandukanye.

Ipironi ry' yumuriro w'amashanyarazi ryatswe n'ibyuma biriho insinga z'umuriro w'amashanyarazi hirya hakurya ahagaragara ishyamba ry'ibiti by'icyatsi kibisi

Umukozi w'umuriro w'amashanyarazi wambaye ibikoresho by'akazi harimo inkweto ingofero n'imikandara, imufashe mu kazizi, ari hejuru ku ifoto ry'umuriro w'amashanyarazi, arimo arakora amashanyarazi.

Inyubako isakarishije amabati y'umutuku, imbere yazo hari utuyira tunyurwamo n'abagenzi, dusakarishije amabati ariho amatara amurika mu bihe bya nijoro, ayo mabati afashwe n'ibyuma bituruka hasi ku butaka.

Abantu batambuka umugabo n'umugore. Umugore uhetse umwana ufite isakoshi ku rutugu n'igitambaro mu ntoki. Umugabo afite mudasobwa mu ntoki yambaye amarinete.

Abantu bicaye ku ntebe zabugenewe bategereje serivisi, imbere yabo hari umuryango wanditseho zeru, gatatu bisobanura ko ari umuryango nimero ya gatatu.

Inyubako ifite urubaraza rufashwe n'inkingi, iriho hejuru ibigega by'amazi by'umukara ndetse imbere y'inyubako hariho umucaca.

Umuhanda w'abanyamaguru utwikirije amabati uri hagati mu nyubako zirebana, n'icyapa aho umuhanda utangiriye cyerekana ko uwo muhanda ukomeje ugana muri serivisi zanditse kuri icyo cyapa.

Inyubako zubatse zirebana, hagati muri zo hari ubusitani bw'ubwatsi bugufi bukikijwe n'indabo, hirya yabwo hari umuhanda utambika w'amapave ucamo abanyamaguru.

Igikuta kinini cyubakishije amatafari kiriho umuryango uri guturukamo abantu bagaragara nk'imfungwa bambaye imyenda y'iroza yambikwa imfungwa, hari akanyubako k'ibyuma kari hejuru kabamo umurinzi wa gereza.

Umugabo wicaye, wambaye ikote ry'ubururu na karuvati n'ishati y'umweru, imbere wambaye inyakiramajwi yumva ikiri kuvugirwa mu byuma by'ikoranabuhanga.

Inyubako ndende y'amatafari, ku muryango wayo harimo kwinjira abantu bambaye imyenda y'iroza, hahagaze umusekirite ushinzwe umutekano waho, ku muryango hejuru handitswe ngo gereza ya Nyarugenge bisobanura ko ari gereza ya Nyarugenge iherereye.

Umugore wambaye ikoti ry'ubururu, wicaye ku ntebe yegamira uri kureba ku ruhande, imbere ye hari ikayi afite ikaramu bigaragara ko ari kwandikamo, imbere ye nanone hagaragara amazi na ji arimo kwifashisha.

Abaturage bicaye hasi, imbere y'abayobozi babo bicaye ku ntebe, bafite ameza imbere yabo bateretseho ibitabo birimoi byigwaho mu nama, imbere y'abayobozi hahagaze umugabo ugaragara nk'ubazwa nk'sobanura ibyo abajijwe n'abayobozi.

Icyapa cyanditseho ibitaro bya polisi Kacyiru kigaragaza ko hano hariho amarembo y'ibitaro bya polisi Bya Kacyiru biherereye.

Umupolisi mu myambaro y'akazi n'igikoresho cy'ikoranabuhanga, yahagaritse imodoka ari gusuzuma ibyangombwa by'umushoferi utwaye iyo modoka, akoresheje icyo cyuma cy'ikoranabuhanga.

Ibikoresho byifashishwa mu kuzimya inkongi bisa umutuku, byiganjemo amacupa arimo ibyifashishwa mu kuzimya inkongi bimanitse ku gikuta.

Umuhanda wa kaburimbo urimo gucamo imodoka n'umupolisi kuri moto yabugenewe y'akazi, arimo arabwira umushoferi utwaye imodokari, uparitse ku ruhande. Imbere ku muhanda wa kaburimbo, hari ibiti ndetse n'amapoto yo ku muhanda ariho amatara acanira umuhanda mu gihe cya nijoro.

Ikirango mu mabara n'ibishushanyo byabugenewe, cyanditseho FPR Inkotanyi, bisobanura ko ari icy'umuryango wa FPR Inkotanyi, ishyaka rikorera muri Leta y'u Rwanda.

Abantu benshi bambaye imyambaro n'ingofero biri mu mabara y'umutuku n'ubururu yanditseho FPR, bisobanura ngo barimo kwamamaza ishyaka rya FPR.

Umuhanda ni igikorwaremezo gifasha abantu bose mu buzima bwabo bwa buri munsi turavuga abamotari, imodoka ndetse n'abandi bantu bawukoresha mu buryo busanzwe burabafasha mu bikorwa byabo bya buri munsi.

Abagabo batatu baseka barimo nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, nyuma yabo hagaragara abandi bantu b'ingeri zitandukanye.

Uruhurirane rw'abantu biganjemo urubyiruko bari mu gikorwa cyo kwamamaza, bafite ibyapa byamamaza umukandida wabo byanditseho tora Girini pati.

Ihahiro ririmo ibicuruzwa byinshi bitandukanye, hakubiyemo ibyoku kurya urugero nka biswi, amasambusa, amandazi harimo kandi n'ibyo kunywa nka ji, yahurute n'amata.

Gare Baparikamo imodoka zitandukanye haparitsemo bisi ebyiri ziri mu mabara y'ubururu n'umweru zitegereje abagenzi harimo kugendamo abantu batandukanye ndetse n'ibyapa byamamaza biri muri gare.

Imodoka ziparitse zikorera imizigo, imwe irimo imizigo irimo gupakururwa, indi irafunguye bigaragara ko imizigo yashizemo, ziri rwagati muri kaburimbo.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo uruhurirane rw'ibinyabiziga nka moto n'imodoka y'imizigo, igaragara mu mabara y'icyatsi n'umweru. Inyuma yayo hari ibiti birebire ndetse n'abantu batandukanye.

Ooto irimo guca mu muhanda wa kaburimbo, ukikijwe n'ibiti ndetse n'ibikuta bitandukanye, uriho amapoto ariho amatara acanira umuhanda mu gihe cya nijoro ndetse n'amapoto atwara umuriro w'amashanyarazi mu duce dutandukanye.

Imodoka itwara imizigo iparitse, yikoreye imizigo impande yaho hari umuhanda w'abanyamaguru urimo gucamo abakobwa batambuka baca impande y'imodoka, inyuma hari icyapa cyanditseho pa, kigaragaza ko hari parikingi.

Umuhanda wa kaburimbo, imodoka y'ikorera imizigo y'umutuku, ikurikiwe n'imodoka y'ubururu itwara imizigo iciriritse, hakurya yayo hari inyubako ndende yubatswe n'ibirahure.

Urujya n'uruza rw'ibinyabiziga, moto zitwaye abantu, imodoka zikorera imizigo, amatara yo ku muhanda, ipironi ry'umuriro w'amashanyarazi, hirya hagaragara ibiti no hakurya hagaragara ishyamba.

Imodoka yo mu bwoko bw'ikamyo itwara imizigo, mu marangi y'umutuku, Inyuma yayo hagaragara ibiti birebire by'icyatsi kibisi.

Umugabo utwaye umufuka ku rutugu, utambuka umuhanda wa kaburimbo, inyuma ye hari imodokari yikorera imizigo, hakurya yayo hagaragara birebire bikikije umuhanda wa kaburimbo.

Abamotari benshi baparitse bategereje abagenzi mu muhanda wa kaburimbo n'abagenzi bahagaze impande biteguye gufata moto bakagenda mu byerekezo byabo.

Inzu ikodeshwa iri Kicukiro muri Kigali, ifite ibyumba bine n'amadushe atatu na tuwarete ikaba ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atanu ku kwezi.

imodoka y'amabara y'icyatsi iparitse yanditseho amagambo asobanura ko ari imodoka ikoreshwa mu kwiga imodoka impande yayo hari imodoka zindi zibisikana zijya mu cyerekezo gihabanye n'icyo iri guturukamo.

Umumotari uri kuri moto uhetse umugenzi w'umukobwa, hirya yaho hagaragara indi kaburimbo ndetse ikikijwe n'ibiti birebire by'amashyamba.

Uruhurirane rw'abantu b'ingeri zitandukanye biganjemo urubyiruko, bicaye abandi bagenda, impande yabo hari inyubako ndende ndetse n'ibiti bitandukanye by'icyatsi kibisi.

Icyumba kinini cyane kirimo intebe nyinshi mu mabara y'icyatsi, zerekana ko aha hantu hari bwicare abantu benshi bari bube bakurikiye igikorwa kiri buhabere.

Icyapa kiri mu mabara y'umutuku n'umweru n'umukara, gishushanyijeho umurongo ucometseho undi murongo uturuka ku ruhande, cyerekana ko umuhanda wa kaburimbo ufatiyeho undi muhanda.

Amatara yashyizwe hejuru ku muhanda atanga uburenganzira ku binyabiziga cyangwa abanyamaguru gukomeza mu muhanda, hariho umubare umanuka ubara utanga uburenganzira ku banyamaguru cyangwa abashoferi gukomeza mu muhanda.

Ibyapa bibiri bifatanye kimwe kiri hejuru y'ikindi. Icyo hasi cyerekana ko imbere hari uburyo bwo kwambuka kw'abanyamaguru, icyo hejuru cyerekana ko mu muhanda imbere ufite undi uwushamikiyeho, impande y'icyo cyapa hirya hari amapoto y'umuriro w'amashanyarazi afite na taransifo hagati muri yo.

Icyapa cy'umuhondo n'umukara, gishyirwa ku muhanda kiburira abagenzi b'amaguru n'abashoferi b'ibinyabiziga ko imbere ari aho kwitondera hafite igisobanuro cyaho.

Icyapa gishushanyije mu mabara y'ubururu kizengurukishije ibara ry'umweru, mo hagati yashushanyijemo umurongo ugaragaza icyerekezo, ni icyapa gishyirwa ku muhanda kiburira abagenzi n'abashoferi ko imbere hari uburyo bwo gukomeza bibasaba kwitonda.

Icyapa gishinze ku muhanda kigizwe n'amabara y'umuhondo n'umukara, inyuma yacyo hari ibiti by'icyatsi kibisi, impande yacyo hari umuhanda wa kaburimbo, bigaragara ko kiburira abagenzi barimo gukoresha umuhanda wa kaburimbo.

Icyapa mu mabara y'umutuku n'umukara, mo hagati gishushanyijemo umuntu usa n'utambuka wambuka umuhanda, gikoreshwa mu muhanda wa kaburimbo kiburira abanyamaguru cyangwa se abashoferi b'imodoka ko imbere hariho uburyo bwo kwambuka k'umunyamaguru.

Tengamara na tiveya twongeye kubatengamaza, ishimwe kuri tiveya ryongeye gutangwa ni nyuma y'ubugenzuzi isuzuma n'ibikorwa byo kugaruza umusoro byakozwe dukomeje gusaba ibiyamu niba utariyandikisha kanda kannyeri maganainani urwego ukurikiza amabwiriza nibayandikishije zirikana fatire ya ibiyemu no kwandikisha nimero yawe ya telefone itanga n amakuru.

Inyubako ndende igeretse kabiri y'ubucuruzi ifite imiryango itandukanye ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi iriho akazu ku ruhande gahagazeho umukobwa ufashe telefone ku gutwi, bigaragara ko hari umuntu arimo guhamagara.

Inyubako yubatse igereretse, hejuru hafasheho urutsinga rw'amashanyarazi rubazanira umuriro, igipangu gifite itara ryaka mu gihe cya n'ijoro, gikikijwe n'ibiti birebire ndetse n'indabo imbere y'igipangu.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'ibiti birebire, ushushanyijeho imirongo y'umweru n'umukara, bigaragaza imbibi z'umuhanda ndetse n'imirongo yambukiranya umuhanda y'umweru, igaragara nk'itanga uburenganzira ku banyamaguru kwambuka, ibinyabiziga biri guca mu muhanda, ndetse n'abantu bari kwambuka umuhanda.

Umuhanda ushamikiyeho indi mihanda itatu yerekeza mu byerekezo bitandukanye, igaragaraho inyubako zitandukanye n'imodoka ziparitse impande y'inyubako.

Umuhanda wa kaburimbo urimo gucamo ibinyabiziga bitandukanye bibisikana, imodokari na moto, uriho amatara ku ruhande awucanira mu bihe bya nijoro ndetse ukikijwe n'ibiti by'amashyamba birebire by'icyatsi kibisi.

Iki ni ikigo cy'igihugu k'irembo gikorera kuri murandasi, aho bakubwira ngo byikorere, bakaba batanga serivisi nyinshi zigiye zitandukanye, harimo kwiyandikisha mu gutwara ikinyabiziga, kwiyandikisha mu kudekarara ibyangombwa bigiye bitandukanye ndetse n'izindi serivisi nyinshi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo abantu bari kwambuka hifashishijwe ahabugenewe ho kwambuka ku munyamaguru, umuhanda ukikijwe n'amatara yaka ndetse n'ibyapa byerekana mu bwoko bw'umuhanda, harimo gucamo ibinyabiziga nka moto ndetse bigaragara ko ari nijoro.

Imodoka yo mu bwoko bwa bisi iri mu mabara yiganjemo ubururu n'umweru, itwara abantu mu mujyi wa Kigali. Iri guca munsi y'iteme rifite ibyuma bitangira abantu n'ibintu, hirya y'iteme hagaragara ibiti by'ishyamba.

Uruhurirane rw'imihanda ya kaburimbo, rurimo ibinyabiziga moto n'imodokari n'amatara yo kumuhanda arimo kwaka, inyuma yabyo hagaragara ishyamba n'ibiti birebire cyane.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibice bibiri bigabanishijwe n'umurongo w'umuhondo ndetse n'umukara n'umweru, ushamikiyeho indi mihanda ijya mu byerekezo bitandukanye, iri gucamo abamotari n'abagenzi, impande y'umuhanda hakikije ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo ibinyabiziga nka moto n'imodokari, hirya ukikijwe n'ibiti by'icyatsi kibisi, birebire n'ibigufi n'ipoto ku ruhande rizamuka ry'umuriro w'amashanyarazi ririho amatara yo ku muhanda.

Imodoka iri guca mu muhanda wa kaburimbo ufite ipoto ririho itara ricana mu bihe bya nijoro, uca munsi y'iteme ryubatse rifite utwuma turinda abantu cyangwa ibintu kuba byagwa munsi y'iteme.

Umuhanda wa kaburimbo ushushanyijemo imirongo y'umweru yemerera abanyamaguru gutambuka mu gihe cyagenwe, irimo imirongo y'umuhondo isobanura imbibi z'umuhanda ndetse iri gucamo imodoka zitandukanye, ifite amatara ku ruhande amurika mu gihe cy'umwijima ndetse ukikijwe n'ishyamba ry'ibiti bitandukanye.

Uruhurirane rw'imihanda ya kaburimbo hacamo umumotari utwaye umugenzi, iyo mihanda ikikijwe n'ibiti by'ibara ry'icyatsi kibisi birebire ndetse n'amapoto y'umuriro w'amashanyarazi.

Umuhanda ushamikiyeho indi mihanda ikikijwe n'amatara amurika mu bihe bya nijoro irimo guca imbere y'inyubako ndende ikikijwe n'ibiti bitandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu n'ibinyabiziga mu masaha y'umugoroba ku muhanda wa kaburimbo, inyuma hagaragara igikuta kirekire kiriho amatara amurika cyane.